Inyubako nziza cyane itandukanye ishobora kuba amashuri, ishobora kuba urusengero, abantu benshi cyane bashobora guhuriramo bai gukora nk'ibintu bitandukanye bigendanye no gusenga, kwiga ndetse n'izindi nama zose zitandukanye muri rusange.